Kwa muganga aho aba damu bari gukora ibarura cyangwa kugenzura ibitabo, n'udufishi tw'abarwayi bakoresha bivuza mu rwego rwo kugira ngo hagenzurwe ibyakozwe, ndetse no kunoza akazi neza.

Inama yahuje impuguke ndetse naba minisitiri ubugendanye n'ubuzima mu rwego rwo kongera ubuvuzi cyangwa ubushakashatsi buri gukorwa ku bigendanye no kuvura abantu ndetse no kuba wakongera ubuzima bwiza bugendanye no kuba indwara zitatakaka abantu.

Inzego z'ubuzima, abaganga, abajyanama ndetse n'abashakashatsi bahuriye hamwe bari kwiga cyangwa bari guhana ubumenyi mu bintu bitandukanye bigendanye n'ubuvuzi bugezweho.

Umwana w'umunyeshuri uri gukoresha kandagira ukarabe, akaraba amazi n'intoki kwisukura aho ashobora kuba avuye mu bwiherero mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umwana uri kuvoma amazi meza aturutse ku ivomo rya kijyambere kandi amazi aje aba avuye mu nganda zishinzwe gutunganya amazi meza umwana wishimye cyane.

Inzobere cyangwa abaganga aho bicaye hamwe bari mu nama yo kwiga ku bigendanye n'ubuzima, cyangwa izindi ngamba runaka zafashwe mu kongera ubureme cyangwa kuvura abarwayi baje bagana ibitaro.

Inama yahuje inzego zigiye zitandukanye harimo iz'umutekano abandi bafite gahunda zigiye zitandukanye z'inshingano bashinzwe, mu rwego rw'ubuzima bwiza bahuriye hamwe baganira ku buzima bwiza.

Umuganga ubona ko ari kureba mu mashini zigenda zimufasha kureba uko ubuzima bw'umurwayi we bumeze ubona ko ari abaganga batandukanye bari kumwe bari muri karasiye cyangwa uburyo bwo kuvura umurwayi bari kumwe.

Iidarapo cyangwa ikirango kigizwe n'ibara ry'umukara ndetse n'ibara rya oranje, harimo ibara ry'umweru rigizwe n'inyenyeri rikaba ari ibry'umuryango witwa World vision, ukaba n'umuryango ufasha abantu mu buryo bugiye butandukanya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abarwayi baje ku kigo nderabuzima baje kwaka serivise runaka, baje kwivuza ubona ko bari kwakirwa neza kandi ubona ko nta kavuyo habe na mba bafite, ku rwego rugendanye no kuba bahabwa serivise neza.

Abantu benshi bari kwa muganga, ubona ko baje kwivuza, benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'indwara barwaye, ubona ko bategereje abaganga ngo baze babakire, babiteho babavure.

Umwana uri gukaraba isabune n'amazi meza, uri gusukirwa n'umuhagarikiye, hagamijwe kwirinda indwara zituruka ku biganza, kuko aba yagiye akora ahantu hagiye hatandukanye, kandi hakaba hari amabagiteri ashobora gufata ku biganza, ugasanga umwana agiye kurya atakarabye.

Ahari kubakwa ni bitandukanye zaharitiwe kuvura cyangwa guturwamo n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwabo mu rwego rwo kugira ngo babe hafi y'amazi cyangwa ibindi bintu nkenerwa ngo byabafasha ubuzima bwabo kugira ngo bugende neza.

Abaganga ubona ko bari gusuzuma umurwayi wa bo bareba umuvuduko w'amaraso ndetse n'uku umubiri uhagaze. Bityo rero bikaba bifasha umurwayi ndetse n'abaganga mu kureba no kugenzura ko umurwayi wa bo nta kibazo kigendanye n'uburwayi yaba afite. Nibasanga yaba agifite bamwandikira imiti; akaba yabasha kuyifata kugira ngo abashe gukira.

Abaganga bahuriye hamwe n'abaturage bari ku itabi cyangwa gukingira abana mu rwego rwo kwirinda indwara zibasira abana ziye zitandukanye, iyo bakiri bato bagahabwa ubudahangarwa bwo kurwanya izo ndwara.

Umwana uri ku mavomo rusange ari gufata amazi meza, bigaragara ko umwana yishimye ubona ko afite ubuzima bwiza, akaba amazi agiye kuyakoresha mu buryo butandukanye, habe kuyanywa cyangwa kuba yakoga intoki n'ibindi bitandukanye.

Inama yahuje inzobere zigiye zitandukanye cyangwa abaganga mu rwego rwo kwiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse no kongera ireme ry'ubuzima mu kuvura ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye mu baganga.

Abajyanama b'ubuzima cyangwa inzobere, ubona ko basuye abana, bari kubaha amata mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Amata akaba afasha abana mu kuba bagira imibereho myiza, intungamubiri zigiye zitandukanye, kugira ngo bakure neza.

Abantu bari kuvoma amazi amavomo rusange kandi amazi akaba ameze neza atunganyijwe akaba nta ngaruka mbi yagira ku bantu, agakoreshwa mu gusukura no gukoresha mu guteka n'ibindi.

Umujyanama w'ubuzima ari kugenda yereka umugore bari kumwe ibijyanye n'imibereho myiza cyangwa ubumenyi runaka akoresheje ibishushanyo, mu rwego rwo kugira ngo abungabunge cyangwa amwigishe uburyo ubuzima bugiye butandukanye bujyanye n'imivurire cyangwa indwara bikorwa.

Umwana uri kuvoma amazi ku ivumo rusange, kandi akaba ari gukoresha ibikoresho harimo nk'indobo mu gufata ayo mazi meza ari kuri iryo vomo rusange, kandi akaba nta kibazo afite yatera ku buzima bw'umuntu ikibazo.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga, ubona ko ari kwitabwaho na muganga, muganga amuha imiti mu rwego rwo kumuvura indwara zifata abana bakiri bato.

Ikivu cyangwa uruganda ubona ko ari ibisimu bitunganyirizwamo amazi kugira ngo abashe koherezwa mu baturage bayatunganyije ameze neza, ku buryo adashobora gutera indwara cyangwa kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage.

Itsinda ry'abagore babiri n'umugabo ubona ko bari gupakira cyangwa bari gushyira ibiryo hamwe mu rwego runaka bagamije kuza gucuruza cyangwa bakaba ari inkunga bahawe iribuze kuza gutangwa kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza babona ibifungurwa.

Abantu bahuriye hamwe mu nama ijyanye n'imyigishirize y'ubuzima cyangwa inama y'ingamba ibintu bigira itandukanye, bihuza mu bijyanye n'imibereho myiza ijyanye n'ubuvuzi, bahuriye kuri Santere do sante cyangwa ahandi hantu hari ibitaro bagamije kwigishwa cyangwa guhabwa amahugurwa ku buzima bwabo.

Ivomo rusange abona abaturage baje kuvoma amazi, akaba ari amazi meza yatunganyijwe akaba atagira ingaruka mbi ku buzima mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza hakoreshejwe amazi meza bakoresha mu bigendanye no mu isuku kuyatekesha, kuyanywa, ndetse no kuba bayakaraba.

Inama cyangwa amahugurwa yahuje abaganga mu rwego rwo kwiga ku bigendanye n'ubuzima cyangwa ingamba nshyashya zo kuvura ndetse no gukurikirana ubuzima bw'abantu.

Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, ubona ko ari kugaragaza urwego rw'ubuzima rwa kanseri uko rugezweho mu Rwanda ndetse n'uburyo byagiye biva ku ntambwe imwe bigera ku yindi mu kwirinda ndetse no kugabanya abarwayi ba kanseri ndetse n'uburyo ivurwamo.

Umuganga arimo arakingira abana, akaba ari umunsi wahariwe gukingira abana ubarinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane ku bana batonya hari inkingo baba bakeneye, mu buryo bwo kugira ngo zirinde ibyuririzi by'indwara zigiye zitandukanye nk'inkondo y'umura ku bana b'abakobwa n'ibindi.

Umujyanama w'ubuzima ari gutanga inama cyangwa amahugurwa, ku baturage ba bigiye bitandukanye, ku bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Igikoresho cy'isuku bakoresha basukura ibiganza baba bavuye kurya, cyangwa hari ahandi hantu havuye gukora mu bijyanye yenda n'imyanda cyangwa ibindi bintu byanduza ibiganza.

Umuganga uri gusuzuma akana kazanywe na mama wako ariko kureba uko ubuzima bwaho buhagaze gashobora kuba karwaye. Muganga akaba ari ku gafasha kureba indwara kaba gafite.

Ababyeyi n'abana, urabona ko bari ku ivo rusange, akaba yaje kuvoma amazi meza. Bityo rero amazi meza bikaba bifasha cyangwa byamufasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka mu gukoresha amazi mabi; harimo nko kuyanywa, kuyatekesha. Rero amazi meza akaba ari ingenzi ku buzima bw'umuntu

Imbonerahamwe igaragaza uburyo ndetse n'igihe abakire, abifashije cyangwa abakene uburyo bagiye babyara cyangwa uburyo bagenda ba uwo mu bukene, bigaragara igihe runaka guhera bibiri na cumi kugeza bibiri na cumi na rimwe kugeza bibiri na makumyabiri.

Abana bato bari ku ishuri ubona ko bari gukaraba isabune n'amazi meza, mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziva mu kuba abantu bagenda bakorakora aho babonye hose.

Abana bari kudaha amazi mabi y'ibiroha atatunganyijwe, ashobora gutera indwara cyangwa ibindi byuririzi ku muntu bitewe n'uko ashobora kuba ayanduye arimo indwara zigiye zitandukanye nk'itera inzoka cyangwa imihindagurikire ku mubiri.

UNICEF ikigo gishamikiye ku Muryango w'Abibumbye, aho ushinzwe kwita ku bana bagiye batandukanye, impande zose z'isi; ukaba ari wo utanga amazi. Urabona ko umwana arimo aranywa amazi meza, yavuye ku ivomo rusange.

Kwa muganga aho bari gusuzuma abantu bagiye batandukanye, urabona ko ari ubukangurambaga cyangwa umunsi ujyanye no kugenda bahura n'abarwayi babapima ibijyanye n'uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umuganga uri hagati y'abaturage ubona ko bari mu nama cyangwa amahugurwa y'uburyo ubuzima bwabo bwakurikiranwa cyangwa uburyo bakirinda indwara zigiye zitandukanye n'uburyo bazaza bajya kwivuza byoroshye.

Ababyeyi bari ku ivomo rusange ry'amazi aturuka hasi hasi mu butaka y'isoko akaba afashishwamo bu ubuzima bwabo bwa buri munsi: kuyanywa, kuyatekesha, kuyamesesha, ndetse n'ubwubatsi mu bintu bigiye bitandukanye.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe baje gusura abana batoya, aho babasuye aho bigira, bakaba bari kureba uburyo imyigire y'abana imeze ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi uburyo bwitabwaho.

Ivomo ry'amazi meza, aho umuntu ari gukaraba intoki kandi akaba yanakoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye nko mu rugo, guteka, gusukura mu rugo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nko kuyanywa

Abana bahuriye hamwe bahaye amaseritifika agendanye no ku buzima aba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'abana bakiri bato kugira ngo bakure neza nta ngaruka mbi z'ubuzima bafite.

Umwana uri ku ishuri uri gukaraba intoki n'amazi meza akoresheje ivomo riri ku ishuri ry'amazi hagamijwe kugira ubuzima bwiza muri sosiyete.

Abaganga cyangwa abashakashatsi, aho bari kumwe n'abaganga bagiye banyuranye, mu rwego rwo kuganira ku bigendanye n'ubuzima, cyangwa ibyavumbuwe cyangwa uburyo bakongera imivurire igezweho.

Umuryango wita ku bana b'imbabare ukaba ari umuryango ushamikiye kuri ishami rya United Nations ari wo muryango w'abibumbye, ukaba ugenda ufasha abana bahuye n'ibibazo bitandukanye ku isi hose, abababaye, abana bishwe n'indwara babuze kivurira, abana bafite indwara z'imirire mibi, Unicef ikaba igamije kugenda ifasha abana bagiye batandukanye.

Abaganga ubona ko ari mu cyumba bahuriye hamwe bari mu nama, igendanye n'ubuvuzi runaka, cyangwa bari kongererana ubumenyi kugira ngo babashe kuvura abarwayi baje babagana neza kandi nta kibazo.

Itsinda ry'abaganga ndetse n'abarwaza ndetse n'abajyanama b'ubuzima, ubona ko bari hamwe kandi bakaba bari ku bitaro, aho bahuriye bari mu mahugurwa ajyanye n'ubuzima.

Itsinda ry'abantu cyangwa inzobere mu buzima ubona ko zahuriye hamwe ziri mu mahugurwa ari guhabwa bigendanye n'ubuvuzi cyangwa kongera ireme ry'ubuzima ry'ubuvuzi.

Igikoresho kandagira ukarabe gikoreshwa mu gusukura abantu ibiganza, mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zifata ku biganza, bakiteri, mikorobe, hagamijwe kugira ubuzima bwiza.

Abarwayi bicaye hamwe, baje guhabwa ubufasha, cyangwa kwivuza kwa muganga, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bitabweho neza nta kibazo bahuye na cyo.

Umudamu ndetse n'umusore ubona ko bari kudaha amazi y'ibiroha, ava mu misozi cyangwa mu mihigi itandukanye, ubona ko amazi mabi asa nabi, aho umwe ari kuyogisha amagare, kandi igare rikaba ririho umwanda, undi ari kuyadahisha mu rwego rwo kuyakoresha imirimo igenda itandukanye, bikaba byagira ingaruka ku buzima bw'umuntu cyangwa abantu, baba bakoresha amazi mabi.

Ivomo rusange, aho ubona ko abaturage baje kuvoma amazi meza kandi akaba ari igikorwa cy'ingenzi mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziva mu gufata cyangwa kuvoma amazi mabi.

Itsinda ry'ababyeyi bahuriye hamwe bari guhabwa amahugurwa cyangwa inama ku bigendanye n'ubuzima bwiza bw'abana, bakaba bari mu nyubako igendanye n'inzu yigishirizwamo abana cyangwa yakirirwamo abana.

Uyu mujura wambaye gant, akaba ari mu cyumba, akaba ari gutera umuturage urukingo cyangwa urushinge rumufasha cyangwa rumurinda indwara zigiye zitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi.

Uruganda rutunganya amazi afashwe bakayatunganya neza akoherezwa gukoreshwa mu bantu ku buryo nta kibazo agira ku buzima bw'umuntu.

RBC ikigo cy'igihugu gishamikiye kuri Minisiteri y'ubuzima, kikaba cyunganira Minisiteri y'ubuzima mu gufasha ndetse no kuba cyakurikirana ibijyanye n'imiti ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage.

Umuntu cyangwa umwana wari kwa muganga akaba ubona ko afite ibibazo bigendanye no mu mutwe cyangwa ihungabana rigiye ritandukanye, akaba ari kumwe n'umuganga umufasha mu kuba yakemura ikibazo afite bijyendanye n'ubujyanama, cyangwa imivurire runaka ifasha kugira ngo uwahuye n'ihungabana, arikire.

Umugabo uhagaze ku bitaro by'i Ndera, aho bifasha abantu barwaye cyangwa bafite ibibazo byo mu mutwe, kubitaho bigendanye n'ibibazo bagiye bafite kandi ni ibitaro bifasha n'abandi bantu bagendanye n'ihungabana rigiye ritandukanye mu kuvuka.

Inzobere z'abaganga ubona ko zahuriye hamwe ziri mu mahugurwa cyangwa mu kwerekana uburyo ibikoresho bigenda bitandukanye bikoreshwa mu kuvura ndetse n'uburyo byakoreshwa mu kwirinda indwara zitandukanye, harimo n'imiti itandukanye berekana.

Inama cyangwa ubukangurambaga bushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, hagamijwe kwirinda indwara zigiye zitandukanye zinyura ku burwayi bufata mu mutwe cyangwa ihungabana abantu bahura na ryo mu buzima bwa buri munsi.

Itsinda ry'abategarugori cyangwa abadamu bahuriye hamwe, bari mu nama runaka, igamije kubigisha ibintu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kuba hamwe.

Umubyeyi wicaye mu nzu ye, akaba yicaye mu nzu ye bigaragara ko ari gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi akaba ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze kijyanye n'ubukene no kuba, ubuzima bwe butameze neza mu bijyanye no kwibeshaho mu kurya.

Abanyeshuri benshi bari kumwe bishimye, barangamiye uri kubafotora, ubona ko bafite ubuzima bwiza, kandi nta kibazo bafite kijyanye n'imibereho, cyangwa mu mirire mibi, cyangwa ubuzima bubi bugendanye n'imyigire kugwingira kw'abana.

Umugabo ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse akaba yaba ari ikibazo yahuye nacyo k'ihungabana cyangwa akaba ari ubumuga yavukanye ubona ko asa nabi adafite isuku ubona ko bishobora kumugiraho ingaruka zitari nziza ku buzima bwiwe.

Umugabo uri kumwe n'umugore cyangwa umujyanama mu bigendanye n'ubuzima bw'abantu aho ubona ko umugabo ashobora kuba afite ikibazo akaba yagiye kwa muganga kwivuza ngo aganire n'abashinzwe ubuzima bwomumu mutwe.

Itsinda ry'ibigo bikorera mu Rwanda, rishinzwe kwigisha ubuzima bwo mu mutwe, mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku bwonko, no mu mitekerereze.

Ubushakashatsi bugaragaza uburyo kwiyahura mu Rwanda bihagaze, bigaragaza imyaka guhera bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na makumyabiri, uburyo byagiye byiyongera ku kigero runaka.

Itsinda cyangwa inama yahuje abantu bagiye batandukanye, bajyanye cyangwa inzobere zigendanye n'ibyo indwara zo mu mutwe, aho bari kwiga uburyo indwara zavurwamo cyangwa uburyo zakwirindwamo.

Inama yahurije abantu hamwe, bigaragara ko ari benshi bakaba bahuriye hamwe baganira ku bijyanye n'ubuzima, bwo mu mutwe cyangwa amahugurwa agamije kuba bakigishwa uburyo babungabunga cyangwa bakirinda indwara zo mu mutwe.

Umubyeyi wishimye cyangwa umuntu ukuze ubona ko, afite ibyishimo nta kibazo afite; bikaba bifasha kuba yakirinda ibibazo bigendanye no kwigunga, cyane cyane bigaragara ku bantu bakuze; ndetse ubona ko yishimye, ubona ko afite ubuzima bwiza.

Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe ibibazo byo mu mutwe, akaba ari inama yahuje abantu bagiye batandukanye mu kuganira ku bijyanye n'uwo munsi, kandi hakavamo ibisubizo runaka bigamije kuzamura no kubaka mento herifu deyi.

Umugabo ubona ko ari mu bukangurambaga bw'umuryango w'abibumbye w'abafite inshingano igira iti turi kumwe igamije mu kuba wakubaka ibigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe ku bantu bahura n'ihungabana cyangwa ihohoterwa rigendanye ku bintu bigiye bitandukanye.

Uyu mubyeyi ubona ko afite agahinda, ari kurira ashobora kuba yahuye n'ikibazo cy'ihungabana cyangwa guhohoterwa, ubona ko ababaye kandi akeneye umuganga cyangwa umufasha wamufasha ku bibazo yaba afite kugira ngo akemurirwe ikibazo cye.

Igishushanyo mbonera kigaragaza umuryango cyangwa umubyeyi burya yita ku mwana we, yaba atwite, yabavutse, yaba ari mu muryango. Bityo rero bikaba bigaragaza ko umwana agomba kwitabwaho kuva akiri mu nda ya nyina kugeza avutse, kandi agakomeza paka abaye mukuru.

Itsinda, impuguke abaganga bahuriye hamwe mu rwego rujyanye n'ubuzima mu kwiga ku bigendanye n'indwara zo mu mutwe, ku buryo zivurwa n'uburyo zakwirindwa mu buryo bugiye butandukanye.

Umubyeyi ubona ko yishimye kandi ubona ko afite ubuzima bwiza bityo rero bikaba bimufasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zigendanye no mu mutwe iyo umuntu ubona ko yishimye aganira akegera bagenzi be bikaba bimurinda indwara zigiye zitandukanye zo mu mutwe nko kugira agahinda gakabije n'izindi ngaruka zigira ku muntu ubona ko ufite ibibazo byo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu bari hamwe, bari kumwe n'inzoberere ubona ko ari urubyiruko bagiye guhabwa amahugurwa ndetse n'inyigisho zijyanye n'imibereho cyangwa ubuzima bujyanye no mu mutwe.

Ubushakashatsi bukorewe abantu bafite ibibazo byo ku mutwe bigamije kubafasha bagiye bahura n'ihungabana ndetse n'ibibazo bijyanye no mu mutwe.

Umugabo ufite akaguzi gakore mu kuba kahanagura cyangwa kokoza imyanda iri mu mennyo kugira ngo amenyo agire umwimerere ndetse n'ubuzima bwiza bugenda neza mu kanwa.

Umuhungu cyangwa umugabo ubona ko ari kuba yasukura amenyo akoresheje akagozi agenda akura imyanda mu kanwa yagiye ifata mu kanwa, ubona ko bifasha mu kuba wakirinda indwara zigiye zitandukanye ziva mu kanwa bitewe n'uko iyo imyanda iba isigaye mu kanwa.

Umuganga urite kuvu umugore waje kwivuza amenyo akaba yambaye yi ibimufasha gukora akazi ke neza kandi akabakifashisha imashini n'tundi dukoresho tugenda dutandukani mu rwego rwo kuvura neza nta kibazo.

Abana bato ubona ko bari kwigishwa cyangwa bari ku borasa amenyo yabo mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye ziva mu kuba umuntu adakura mu kanwa.

ihuriro ry'abana bahurije hamwe, mu rwego rwo kubigisha uburyo bakwirinda indwara zo mu kanwa, ndetse no kwigishwa uburyo boza mu kanwa n'amazi meza n'umuti w'amenyo, n'abafatanyabikorwa babo, bari kumwe mu rwego rwo kugira ngo babungabunge ubuzima bwo mu kanwa, hirinda indwara zigiye zitandukanye ziva mu kanwa.

Umwana uri kuvurwa indwara zo mu kanwa, muganga ari gukoresha ibikoresho byabugenewe byo kuvura indwara zo mu kanwa, yambaye na ga zifasha kuba nta ndwara zakwirakwira.

Inzobere z'abaganga zaje kwigisha mu ishuri abana uburyo basukura amenyo bakoresheje umuti w'amenyo n'uburoso, hagamijwe kwirinda indwara zo mu menyo.

Inzu cyangwa icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigiye zitandukanye nama meza ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha muganga kuvura umurwayi waje kwivuza amenyo ndetse akaba yatunganyirizwa neza nta kibazo.

Umurwayi yagiye kwivuza kwa muganga ibijyanye n'indwara zo mu menyo, aho muganga ari kumupima akoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye, kandi yambaye yikwije bigendanye no kuvura aho yambaye ga n'ibindi bikoresho kumpande bimufasha kuvura umurwayi.

Umuganga ari gususuzuma cyangwa gupima umurwayi waje amugana aje kwivuza indwara zo mu kanwa akaba yambaye agapfukamunwa ndetse ari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma ndetse no gupima umurwayi.

Umurwayi ubona ko yagiye kwa muganga kwivuza ibyerekeranye n'amenyo, ubona ko muganga afite akamashini cyangwa igikoresho agenda apima ikigero cy'aho amenyayo yiwe ageze yandura.

Umurwayi yagiye kwikuza iryinyo kwa muganga, bitewe n'ibibazo yari afite mu menyo cyangwa muganga yamusuzumye yabonye ko ari ngombwa ko hakurwamo amenyo.

Umutegarugori cyangwa umukobwa uri kwisukura akoresheje umuti w'amenyo ndetse n'uburoso kugira ngo yirinde indwara zigiy zitandukanye ziva mu kanwa, ndetse no gusukura amenyo kugira ngo abashe gusa neza.

Itsinda ry'abantu basuye abanyeshuri ku ishuri mu kubigisha uburyo basukura amenyo ndetse no kwirinda indwara zo mu kanwa, hakoreshejwe mu koza amenyo neza hakoreshejwe umuti w'amenyo.

Abana bato ubona ko bari kwiborosa mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zifata mu menyo, bitewe n'ibyo abantu baba bariye bagasiga mu menyo, ubona ko bari kwibrosa bakoresheje umuti w'amenyo ndetse n'uburoso, mu rwego rwo kwirinda izo ndwara zigiye zitandukanye.

Ishushanyo cyangwa uko imashini yafotoye amenyo y'umuntu uko ameze niba nta kibazo yaba afite ikaba ikoreshwa kwa muganga ubona ko isikaninga ikerekana uko amenyo y'umuntu ameze.

Inzu cyangwa icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini agiye atandukanye ndetse n'ibikoresho bigenda bifasha umuganga kwita ku murwayi wiwe waje amugana mu rwego rwo kugira ngo arebe indwara afite.

Umugore cyangwa umudamu ubona ko afite amenyo asa neza umweru kandi akaba nta ndwara zo mu kanwa zigendanye no kubora kw'amenyo yaba afite.

Umudamu cyangwa umugore urimo gukoresha umuti w'amenyo ndetse akaba arimo ariborosa, akoresheje uburoso bwa kizungu kandi ukabona ko ari mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka mu kudasukura mu kanwa.

Umugabo uri gukoresha akagozi ubona ko ari kwikuramo imyanda yagiye ifata mu menyo, akaba ari akagozi akura kwa muganga cyangwa ahabwa n'abaganga mu rwego rwo kugabanya imyanda iba yagiye ifata mu menyo.

Ikoraniro ry'abasaza n'abakecuru, bahuriye mu birori cyangwa inama, ubona ko bafite ubuzima bwiza nta kibazo bafite ku bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse no kuba babayeho neza nta kibazo.

Itsinda ry'abantu cyangwa inama yaburiye abantu mu kwigishwa cyangwa mvura nkuvure mu rwego rwo kuganira ku bibazo baba bafite bijyanye n'ubuzima runaka, nibyo bahura nabyo byerekeye ku mahungabana kugira ngo babashe kuganira bakire n'indwara bigendanye no kwivuza kwabo.

Inzobere cyangwa umuganga wabihuguriwe uri gufasha umurwayi wiwe wahuye n'ikibazo runaka mu rwego rwo kugenda cyangwa kumufasha ko ingingo ze z'umubiri zikomera akabasha mu kugenda.

Abuzukuru cyangwa abana bari gushyigikira umusaza ukuze ushobora kuba afite ibibazo bijyanye n'ubukure cyangwa indwara mu kumufasha mu rwego rwo kugira ngo ahaguruke.

Umuganga w'umudamu uri gupima umugabo, kubijyanye n'umutima akoresheje akamashini kabugenewe, akaba ari gusuzuma umurwayi kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwaba buhagaze neza.

Ababyeyi bari hamwe bari mu isoko ubona ko bari kuganira kandi bakaba bari gucuruza imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye, ubona ko ari ababyeyi bibashije cyangwa bashoboye gukora.

Umuganga uri kwita ku murwayi, ubona ko ari kumuvura banaganira ubona ko ari gupima cyangwa ari kureba uko ubuzima bwe bubaze akaba ari gutanga serivisi nziza igendanye n'ubuvuzi bugezweho.

Umuganga n'umurwaza, ubona ko bishimye aho umuganga ari kwita ku murwaza wiwe, kugira ngo indwara arwaye cyangwa ikindi kibazo afite runaka abashe kuba yamukiza iyo ndwara.

Umuganga uri kwita ku murwayi w'iwe w'umusaza, ndetse kandi ukabona ko yishimye ubona ko yahawe serivisi nziza, ubona ko yuzuzanyije n'umuganga uri kumuha serivisi zijyanye no kwivuza.

Utubuto duke n'utundi tuntu dukorwa mu biryoherera bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu bitewe n'uko harimo amasukari kandi biba byakozwe bivuye mu nganda bikaba byagira ingaruka mbi ku bantu.

Mu muryango mugari ubona ko ugizwe n'abana benshi. Ukaba ubona ko ari umuryango mwiza ukundana ufite ubumwe, ubona ko afite ubuzima bwiza bigendanye ku mpande zose imibereho bigendanye n'ibyokurya ndetse kandi ubona ko bafite urukundo.

Umusaza ukuze usheshe akanguye, urimo arasoma igitabo cyangwa imvaho areba ibintu bigiye bitandukanye, ubona ko afite ubuzima bwiza akaba akuze ariko akaba abasha kuba yareba cyangwa agasoma ibitamwegereye.

Umuganga wabihuguriwe uri gusuzuma cyangwa gupima umurwayi wiwe akoresheje ibikoresho byabugenewe, kandi yikingiye yambaye ga ndetse n'agapfukamunwa n'imyambaro yabugenewe ikoreshwa n'abaganga, ndetse n'imashini yifashishwa mu gupima umutima.

Umusaza n'umukecuru bishimye, bicaye hamwe bari kuganira, ubona ko bishimye kandi bakaba bari gukina imikino igiye itandukanye, ubona ko bafite ubumwe n'urukundo kandi ubuzima bwabo bukaba bumeze neza.

Umusaza ushyigikiwe n'abana be babiri, akaba ageze mu zabukuru, aho afashwe n'abana be kugira ngo abashe ubuva ku gitanda aryamyeho ahaguruke atembere.

Bategarugori babiri ubona bishimye bari mu gikoni aho bari gutunganya, ibiribwa byo guteka ndetse bakaba bafite imbuto ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifasha kuba batunganya ifunguro ryabo.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe ubona bishimye, umusaza akaba yahobeye umukecuru, ubona bisanzuye, bikaba bisa nkaho bafite ubuzima bwiza ku bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi.

Umuryango w'umugabo n'umugore ubona ko bari kumwe bishimye, kandi ubona ko bafite ubumwe hagati y'abo bakundana abona ko afite ubuzima bwiza, akaba ari umuryango ubona ko nta kibazo bafite bibashije.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi we cyangwa kumupima ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, bigendanye n'uko yaje kwivuza indwara runaka.

Abasaza basheshe akanguhe baje mu birori runaka, berekana ko bakuze kandi bafite imbaraga kubera ko ubuzima bwabo bumeze neza kandi bakibashije gukora ndetse no kureba no kugenda.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bakuze, bakaba bari gukina umukino kandi ubona ko bishimye, bafite ubuzima bwiza kandi nta kibazo bafite.

Ababyeyi bakaba bari muri siporo bakaba bari kugorora ingingo ndetse no kwirinda indwara zakorera kudakora siporo muri ubwo buryo bwo kugira ngo umubiri wabo ubashe kugira ubuzima bwiza.

Uburyo bwo gusuzuma cyangwa gufata abarwayi ibizami hakoreshejwe ubwirinzi bugiye butandukanye, mu gihe habaye ibyorezo cyangwa izindi ndwara z'ibyuririzi zitamenyekanye.

Inzobere ndetse n'abashakashatsi n'abaganga bahuriye hamwe mu nama.

Ubukangurambaga bushinzwe gutera cyangwa gukingira inkingo zitandukanye ku bana mu rwego rwo kubarinda indwara zigiye zitandukanye habamo cyangwa zishobora guterwa n'imbasa, inkondo y'umura ku bana b'abakobwa irinda kanseri.

Itsinda ry'abaganga bari kubaga umuntu, kandi iruhande rwabo hakaba hari imashini zibafasha mu kuvura umurwayi wabo neza nta kibazo afite.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ababyeyi ba bafiteye sida umunsi ugamije mu kurinda cyangwa kwigisha abantu uburyo bakirinda sida ndetse n'abahuye ku burwayi baka bajya kwivuza bafata imiti ku gihe.

Imbonerahamwe igaragaza uburyo inzego zigiye zitandukanye z'ubuzima zigenda zikurikirana, mu rwego rwo gufasha abantu mu buvuzi runaka ndetse no kuba wakwifashisha imbonerahamwe, ukeneye ubufasha runaka mu rwego rw'ubuzima.

Umugabo uri gutanga inama igendanye n'ubuvuzi cyangwa amahugurwa ajyanye no kuba bakagura ibijyanye no kuvura abantu no kwita ku bantu neza kwa muganga, bigendanye n'imibereho myiza.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi wiwe ubona ko bose bambaye agapfukamunwa, kandi akaba ari kumukingira, ubona ko bigaragara yuko ari kumuvura indwara, cyangwa ari kumurinda indwara, binyuze mu kumutera ishinge.

Icyumweru cyahariwe ubukangurambaga cyangwa kwirinda diyabete no kuyirwanya bigendanye n'uko diyabete isigaye ifata cyangwa yataka abantu cyane cyane abakiri bato.

Uburyo bwo kwirinda indwara ya SIDA ndetse no kwita ku barwaye SIDA mu Rwanda akaba ari uburyo bwahereye bibiri na makumyabiri cyangwa ubukangurambaga bwatangijwe bibiri na makumyabiri mu buryo bwo kugira ngo bite ku bafite ubwandu bw' agakoko gatera sida ndetse n'uburyo bitabwaho.

Inama y'inzobere cyangwa abaganga bahuriye hamwe mu rwego rwo kugira ngo bige ku bigendanye n'ubuzima, cyangwa izindi nama zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kongera ubuvuzi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda mu kugena imibereho myiza y'abaturage, kugenzura ibyo abaturage bafata nko kwa muganga imiti bahabwa, ndetse no kugenzura ibicuruzwa abaguzi bacuruza baha abaturage ibijyanye n'ibyo kurya.

Itsinda ry'abantu bari hamwe bari mu bukangurambaga bugendanye no kwikingira mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ukaba ukoresha agakingizo mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye harimo mburugu, imitezi ndetse na Virusi itera Sida, akaba ari umushinga ubona ko ari uwa ECFE.

Ubukangurambaga bwahuje abantu bagiye batandukanye n'inzego z'ubuzima muri gahunda yo kwirinda kanseri y'ibere no kwisuzumisha hakiri kare kugira ngo yirindwe cyangwa ivurwe hakiri kare.

Inzu cyangwa ibitaro bavuriramo bigezweho, ubona ko byubatse neza kandi biri ahantu heza hari isuku. Aho abaturage cyangwa abarwayi baza kwakira serivisi cyangwa gusaba serivisi ziyuranye mu bijyanye no kwivuza.

Umuganga wambaye yikwije, imyenda yabugenewe y'akazi ubona ko ari kumwe n'umumama wabyaye ufite akana k'agahinja. Ubona ko ari kukitaho, areba imibereho cyangwa ubuzima bwe uko buhagaze.

Inzu icururizwamo imiti igiye itandukanya, aho abantu cyangwa abarwayi bagurira imiti bandikiwe na muganga nyuma yo gusuzuma indwara zigiye zitandukanye niho bagurira imiti.

Inzu cyangwa icyumba rusange gikorerwamo akazi, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha abantu mu gukora akazi kabo neza kwa muganga naho hari ibikoresho byinshi binyuranye.

Inzu y'ababyeyi ubona ko hahuriye abaganga cyangwa abafasha ababyeyi mu kwita ku buzima bwabo, harimo abajyanama b'ubuzima ubona ko bahuriye hamwe, mu nama yo kwiga uburyo banoza serivisi baha ababyeyi baje babagana.

Inzu cyangwa icyumba, kirimo intebe zigiye zitandukanye ubona ko hasa neza harimo amatara ahagije ahakirwa abantu baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye ku byerekeranye n'ubuzima.

Ibitaro bikuru aho hari ibitaro bigezweho kandi ubona ko bifite inyubako zisa neza ndetse n'aho baparika cyangwa aho umwanya uhagije aho bakirira abarwayi ndetse ubonako iri no ku muhanda.

Imashini iri kumwe ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye, byifashishwa mu gupima cyane cyane ikaba ikoreshwa kwa muganga iyo bari gupima amaraso y'umurwayi ndetse no kureba amagibateri yaba yaragiye mu bintu runaka, ikaba ikoreshwa kwa muganga mu rwego rwo kuvura.

Mu bitaro, kwa muganga hari icyumba gikorerwamo cyangwa kivurirwamo abarwayi, kirimo ibikoresho byose nkenerwa bikoreshwa mu kwifashisha kugenzura ndetse no kureba no gufasha abaganga mu kuba bavura umurwayi neza.

Ni ibitaro kwa muganga hari icyumba gihuriramo cyangwa gishyirwamo abarwayi bagiye batandukanye, ubona ko ari ahantu hafite isuku kandi hari gukorwa isuku igiye gitandukanye, mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ziva mu kutaba ahantu hari isuku.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko kirimo igitandaro ndetse n'utundi dukoresho dukoreshwa mu kuzana imiti ndetse n'ibyuma bifasha mu kubaga ubona ko harimo ama mashini agezweho, amatara ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifasha umuganga mu kuvura umurwayi.

Icyumba kirimo amamashini agiye atandukanye arimo mudasobwa ndetse n'ibitanda, amamashini yicayeho hakaba harimo n'indi mashini igenzura cyangwa ipima abantu muganga akoresha avura no kuvumbura indwara zigiye zitandukanye.

Inzu cyangwa icyumba aho hari amamashini abika imiti igendanye no kuba bakoresha nyuma bavura abantu n'amaraso, aho aba ari uburyo yagenewe kubikwamo kandi hameze neza ku buryo imiti itabasha kwangirika.

Abantu bahuriye hamwe bahagaze imbere y'inyubako ijyanye no kuvura abantu, bahuye n'ihungabana mu buryo bugiye butandukanye nko mu mitekerereze cyangwa gufatwa ku ngufu, icyo bita Isange one stop center.

Ikigo nyafurika kigenzura indwara zituruka ku bantu ndetse n'inyamaswa, akaba ari inzu ubona ko ari inzu igezweho nini nziza kandi ikorerwamo ibintu bifite agaciro ku buzima bw'abantu ndetse n'ibidukikije.

Inzu y'ababyeyi aho ubona ko habaye inama runaka igamije cyangwa igendanye no kugira inama ababyeyi, inzu ikaba ikorerwamo ubufasha buhabwa ababyeyi babyaye cyangwa ababyeyi bagiye kubyara cyangwa batwite, ikaba ibafasha mu rwego rugiye rutandukanye.

Umuganga uri kwita ku murwayi wiwe amusuzuma, areba uko ubuzima bwe buhagaze kandi amubaza ibibazo byi hagamijwe mukuba yagira ubuzima bwiza nta kibazo afite ku mubiri wiwe.

Icyumba cyangwa ububiko bugiye bunyuranye bubikwamo imiti yo kwa muganga, ubona ko hari ububiko bugezweho kandi budashobora kugira ingaruka cyangwa kwangiza imiti mu gihe itarakoreshwa.

Icyumba kabahariwe cyangwa inzu yo kwa muganga irimo amamashini agiye atandukanywa a akoreshwa mu kuvura abarwayi ndetse no kuba bagura ingingo z'umubiri kuko batabasha kugenda ndetse no kongera imbaraga z'umubiri.

Inzu cyangwa icyumba cyahariwe gukorerwamo siporo cyangwa ubugororangingo, bujyanye no kuba bwakubaka umubiri w'umuntu mu kugira ngo agire ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zuririra kuba umuntu atagorora ingingo z'umubiri we.

Inzu y'ikigo nderabuzima kwa muganga, aho ubona ko ari inzu y'icyerekezo kandi igendanye n'igihe hakirwa abarwayi baje kwivuza indwara zigiye zitandukanye, ababyeyi abana n'abasaza.

Umurwayi uri mu cyumba ke, aho ari kwitabwa na muganga yifashishije amamashini n'ibindi bikoresho bifasha abaganga mu kwita ku barwayi babo neza nta mpungenge zihari.

Mu bitaro kwa muganga aho abaganga bari gusuzuma cyangwa kuvura umurwayi, ubona ko ari itsinda ryahuriye hamwe riri kugenda rifata ibizamini mu buryo bugiye butandukanye kandi ubona ko hari isuku.

Inzego z'ubuzima zagiye gusuzuma abarwayi mu bukangurambaga bugiye butandukanye babonafatanya cyangwa ubushakashatsi bwo kureba uko abatura Rwanda babayeho.

Kirimo abaganga aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bari kugenda biga cyangwa bareba uburyo ubikora mu rwego rwo kugira ngo bazafashe abarwayi baje babagana kubavura neza, hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umuganga uri kwerekana uburyo imashini zikoreshwa kwa muganga mu rwego rwo kuvura abantu binyuze mu ikoranabuhanga, uburyo bugezweho bwo gufasha abantu kubona indwara cyangwa kuvumbura indwara mu buryo bwihuse.

Umugabo wambaye imyenda ipfutse ahantu hose, umubiri wose kandi akaba ari gutera umuti bigaragara ko ari icyorezo cyangwa virusi ari gukumira, agenda atera umuti ahantu hagiye hatandukanye.

Mu bitaro kwa muganga ah ubona na umugabo ari gufungura inzitiramu ifasha mu kwirinda imibu kandi umurwayi we aryamye ku bitaro kugira ngo abashe kumurinda imibu ishobora kuba yamuwataka kandi ubona ko ari inzu nziza irimo ibikoresho bigiye bitandukanya mu mashini apima uko ubuzima bw'abantu buhagaze.

Kwa muganga hari icyumba cyahariwe kubamo abarwayi, harimo abakozi banyuranye bagenda bakora isuku, mu rwego rwo gusukura aho abarwaza n'abarwayi baba bari, mu rwego rwo kunoza isuku ndetse no kurinda indwara zigiye zitandukanye ziva aho abantu bahuriye ari benshi.

Mu bitaro kwa muganga, aho ubona ko ari ibitaro bigezweho bifite inyubako nini kandi ubona ko yakiriramo abantu benshi, abantu bakaba baje babigana ubona ko bategereje guhabwa serivisi zinyuranye zigendanye n'ubuzima, baje kwivuza.

Inzu cyangwa inyubako ubona ko abantu babiri bari kugenda bayizengurukaho ubona ko ari inyubako igezweho y'igihe, kandi aho abaganga babasha kwakira abarwayi benshi ndetse bisanzuye ikaba ifasha mu kugira ngo abaje bafata serivisi z'ubuzima zigiye zitandukanye zibagereho neza cyane.

Icyumba cyangwa inyubako igendeye ku gihe, irimo amamashini afasha kwa muganga gusuzuma abarwayi no gupima, ibibazo bigiye bitandukanye umubiri ushobora kuba ufite mu gihe umurwayi aje ari gutaka cyangwa afite ikibazo runaka ariko kitabasha kubonwa n'amaso.

Mu bitaro cyangwa ikigo nderabuzima cya Matyazo aho abarwayi baza bagana, baje kuhaka serivisi zigiye zitandukanye ku bigendanye n'ubuzima.

Inzu cyangwa icyumba kirimo ibikoresho bigiye binyuranye aho ari kwa muganga hari amamashini agiye atandukanye afasha abaganga mu kuvura ndetse no gukurikirana umurwayi wabo neza hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Uburyo bwo gutanga amaraso cyangwa kuyahabwa bukorwa mu buryo bugiye butandukanye aho abashinrwa mu tubogisi abarwayi bayakeneye bakayahabwa cyangwa ufite ubu ububasha bwo kuyatanga akayatanga.

Inzu cyangwa icyumba ubona ko ari icyumba kabuhariwe cyangwa icyumba cyabugenewe kibikwamo imiti itandukanye ikoreshwa n'abaganga bavura abarwayi babo kandi ukabona ko ari icyumba ubona ko gikozwe ku buryo imiti ibitswemo itakangirika.

Inzu yo kwa muganga irimo icyumba kirimo imashini ifasha abaganga mu kuvura indwara ndetse no kuvumbura indwara zitagaragarira ku mubiri, ndetse izo mashini zikaba zifasha abaganga mu kuvura umurwayi kwirinda amakosa ashobora kuba bari kuvura imashini zikaba zayavumbura mu buryo bwihuse.

Ikigo cyangwa ibitaro bifasha mu kuvura kanseri mu Rwanda, akaba ari ikigo ubona ko giteye imbere, ndetse kigendanye n'igihe, kikaba ari ikigo gifite ikoranabuhanga rigiye ritandukanye mu kuvura kanseri.

Inyubako cyangwa inzu yagenewe gukorerwamo ubugororangingo, siporo ikaba ifasha abantu mu kubaka umubiri bakagira abasirikare benshi b'umubiri, ndetse bikaba bifasha no kwirinda izindi ndwara zigiye zitandukanye ziva mu kutagorora ingingo z'umubiri.

Inzu cyangwa icyumba cyo kwa muganga havurirwamo abana hakaba hagiye harimo ibintu bigiye bitandukanye nka televiziyo, imashini n'ibitanda bifasha kuba umurwayi yicaye ndetse n'amashusho ashimisha abana mu rwego rwo kugira ngo umwana yumve yisanze mu bitaro kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cy'i Gisenyi gifasha abarwayi baje bakigana kuba bavurwa mu buryo bunyuranye kandi hakaba hatangirwamo serivisi runaka, urabona ko hahuriye abantu benshi bagana ivuriro.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigendanye n'uko hari icyumba cy'abana cyahariwe kuvurirwamo abana no kwita ku buzima bwabo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inzu cyangwa icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini agiye atandukanye, ubona ko ari imashini ifasha abaganga kuvumbura indwara zigiye zitandukanye, kandi ubona ko ari icyumba kigezweho kijyanye n'igihe mu rwego rwo kuvura neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, uburyamo n'amamashini aho abarwayi barwarira bakiriwe kwa muganga.

Inzu cyangwa icyumba cyo mu bitaro gishinzwe kwakira abana, aho harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye bishobora gukurura abana cyangwa bigatuma umwana yumva amerewe neza.

Inzu y'ibitaro cyangwa centre de sante, ahatangirwa ubuvuzi bugiye butandukanye cyangwa ibitaro byigenga byihariwe kuvura abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Umuganga uri kwita ku murwayi, iyo ubona ko umurwayi aryamye ku gitanda cyo ku muganga akaba ari kwitabwaho n'abaganga baje kureba uko ubuzima bwe buhagaze n'igihe yavurwamo.

Abaganga bafasha abarwayi baje cyane cyane, nk'ababyeyi baje kubyara, bafasha mu kuba babitaho ndetse kugira ngo ubuzima bwabo n'abana babo bugende neza, ntihagire ingaruka mbi yaba kuri abo babyeyi baje kubyarira ku bitaro.

Inzu irimo igikoresho cyifashishwa mu kuvura ndetse no kuvumbura indwara zigiye zitandukanye mu buryo bugezweho bwo gufasha umurwayi kureba indwara byihuse kandi bidatwaye igihe kinini.

Inyubako ikorerwamo ikigo cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti ndetse no kuba nta ngaruka y' imiti yagira ku bantu ndetse n'ibijyanye n'amatungo kuko n'amatungo nayo akoresha imiti bayakingira barinda indwara zigenda zitandukanye kimwe n'abantu nabo bakoresha imiti itandukanye mu kwivura n'ikigo kigamije ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti.

Inzu cyangwa icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashishwa kwa muganga, hari ababyaza cyangwa aho bavurira abantu baje bafite ibibazo cyangwa uburwayi bugiye butandukanye kandi ikaba ari uburyo bugezweho bw'igihe.

Icyumba cyangwa inzu irimo amarinete agiye atandukanye, afasha abantu mu kureba neza, cyangwa mu kwirinda urumuri rwinshi rugaragara iyo habaye nk'ikibazo cy'uburwayi muganga akakwandikira ibijyanye n'amarinete.

Umuganga ndetse n'umuforomokazi ubona ko bari kwita ku murwayi waje ubagana urwaye kandi urembye, uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ibirero bikaba bifasha abaganga mu kurera no gusuzuma no kwita ku murwayi bya buri kanya ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

imashini yo kwa muganga ikeneye cyangwa ikima mu gihugu akajyanwa mu guhindura indwara zitandukanyekanya amagare yaba azi kwi igihe hagaragara kuva ku maso ndetse n'ingingointu zi bitandukanye

Igishushanyo mbonera cy'ibitaro runaka bigezweho kandi byujuje ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo bibe ibitaro byakira abagenzi n'abarwayi bagiye batandukanye.

Igikapu kirimo ibikoresho imiti igiye inyuranye, ifasha umurwayi cyangwa umuntu ugize impanuka ku buryo butunguranye kandi akaba yafashwa kugeza kwa muganga mu gihe abanje guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu uri muri siporo, ubona ko ari kugorora ingingo ze z'umubiri, kandi akaba afite n'amazi ari buza akifashisha anywa kugira ngo y'amazi umubiri watakaje yongere ayisubize, ndetse bikaba binafasha umubiri kongera abasirikare b'umubiri.

Umusore urimo arakora siporo agenda agorora ingingo, ubona ko afite ubuzima bwiza kandi kubera ko akora imyitozo ngororamubiri, akaba bimufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu uri kwivura akoresheje ubukonje ubona ko yagize ikibazo cyo kuvunika akaboko, bityo rero akaba ari kwishyiraho ibimufasha kuba imvune yiwe yakoroherwa cyangwa uburibwe bukagabanyuka.

Kwa muganga, aho inzobere zahuriye hamwe, ziri mu nama, aho bari gukoresha n'uburyo bw'ikoranabuhanga ku batabegereye. Ubona ko bari kwiga ku kintu runaka, kuvura, cyangwa izindi ngamba nshyashya, mu rwego rwo kuvura neza abarwayi baje babagana.

Mu mashusho yacu arimo imbuto, ibinini, imiti ndetse n'ibyuma bifasha umubiri mu gutobora ndetse n'imidari igiye itandukanye ifasha umubiri kuba wagera ubuzima bugiye butandukanye harimo kubaka ubudahangarwa bw'umubiri,

Imashini cyangwa igikoresho gishobora gufasha umuntu mu gihe ari muri siporo ndetse afite intego igamije kugabanya inda ndetse no mu rwego rwo kugira ngo ibinure by'umubiri bigabanyuke.

Umudamu uri muri siporo ubona ko ari kugorora ingingo zigiye zitandukanye ubona ko iruhande rwe hateretse amazi ashobora kuza kumufasha nyuma yo kuva gukora siporo akaba yayanywa akamufasha mu kuruhura umubiri.

Igitanda cyangwa igikoresho gikoreshwa mu gufasha abantu igihe bahuye n'impanuka runaka, bigatuma atabasha kwitwara cyangwa kwigenzaho no ku giti cye nta mbaraga afite kugira ngo abashe ubufashwa.

Kwa muganga aho bari gufasha umurwayi mu rwego rwo kumugorora ingingo, ashobora kuba yari afite ikibazo runaka gituma ataba ameze neza, akaba ari guhabwa ubufasha n'inzobere zishinzwe mu guhabwa, cyangwa gufasha abantu bahuye n'icyo kibazo.

Umudamu cyangwa umugore abona ko ari muri siporo agorora ingingo z'umubiri ze cyane cyane amaguru n'amaboko mu rwego rwo kugira ngo imitsi igororoke ndetse amaraso abashe gutembera neza ndetse yubake n'ubudahangarwa bw'umubiri abasirikare b'umubiri biyongere bityo biririnde indwara zigiye zi...

Umukinnyi ubona ko ari kwitabwaho n'abagabo babiri, ashobora kuba yagize ikibazo kigendanye n'ubuzima bwe cyangwa imihumekere, ubona nako ari kwitabwaho, akaba ashobora kuba igihaha cye cyahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Ibikoresho cyangwa imipira ikoreshwa mu gukina mu rwego rwo kuvura cyangwa kwirinda indwara ukoresheje umubiri wawe ugasohora umwuka cyangwa ugahumeka.

Umugabo uri kunywa amazi ubona ko amazi ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, mu rwego rwo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye kugira ngo umubiri utohe umere neza ndetse no gukomera kw'amagufa bigendanye mu kunywa amazi meza.

Uburyo bwo gukora ubugororangingo hagamijwe mu kwirinda cyangwa kugabanya ibiro ndetse n'ibinure ku mubiri, mu buryo bushobora gufasha umubiri kuba wagira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda imibyibuho ikabije, ndetse n'izindi ndwara zuririra mu kuba ibiro by'umuntu byabaye byinshi.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshejwe amadoroni agamije mu kugenda cyangwa kohereza amaraso cyangwa ikindi kintu, imiti mu buryo bugiye butandukanye, hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi vuba.

Umukinnyi wa siporo ubona ko yicaye ku gatanda kabugenewe akaba agiye kuvurwa, ubona ko yahawe ubutabazi cyangwa ubuvuzi bw'ibanze mu gihe ataragezwa kwa muganga ngo abashe kwitabwaho neza n'abaganga.

Umugabo ubona ko ari kwishiraho ubukonje kugira ngo abashe kuba yakira, ibyo bikaba biterwa n'uko ashobora kuba yavunitse; ariko akaba ashobora gukora siporo kugira ngo abashe kuba imvune yiwe yakira.

Siporo kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bugubwa neza kandi ari kumva umuziki umufasha mu kugira imbaraga ndetse no kumutera umuhate wo kugorora ingingo ze z'umubiri.

Umugabo uri kwimenaho amazi, ubona ko avuye muri siporo, akaba ari kuruhuka bikamufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye binyuze mu bugororarugingo.

Umudamu ubona ko ari muri siporo kandi yishimye, ubona ko ari kugorora ingingo z'umubiri ziwe kugira ngo abashe kugira umubiri ukomeye kandi ufite ubudahangarwa mu bijyanye no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bari muri siporo rusange ubona ko bahuriye hamwe arikogorora ingingo mu rwego rwo kugirango ngo bagire ubuzima bwiza birinde indwara zitandukanye bagabanye imivuduko y'amaraso ndetse n'amaraso abashe gutembera mu mitsi ineza.

Uburyo bwo kwirinda indwara ukoresheje siporo, ndetse no gufata imbuto hagamijwe mu kongera abasirikare b'umubiri, ndetse no kuba wagira ubuzima bwiza ukoresheje imbuto.

Ubutabazi bw'ibanze bw'abantu bateruye umuntu ariko bakaba bakoresheje uburyo bw'amaboko n'amaguru mu kugira ngo umuntu ashyikirizwe mu modoka, agezwe kwa muganga akurikiranwe n'abaganga.

Umusore cyangwa umugabo urimo aragorora ingingo z'umubiri, kugira ngo agire cyangwa mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, hakoreshejwe kugorora ingingo z'umubiri zigiye zitandukanye.

Agasanduku karimo imiti igiye itandukanye ifasha mu kuvura umuntu cyangwa abantu mu gihe habaye impanuka itunguranye mu bikorwa byabo, mu gihe bataragezwa kwa muganga.

Agasanduku karimo imiti inyuranye cyangwa udupapuro dufasha mu gupfuka umuntu waba wakomeretse mu gihe ahuye n'ikibazo k'iva ry'amaraso, kamufasha mu kwirinda kuba igisibe cye cyakwandura izindi ndwara za bagiteri.

Umubyeyi uri kwa muganga ubona ko ari kumwe n'umwana we ubona ko bafite ubuzima bwiza, akaba yagiye kwaka serivisi kwa muganga ubona ko ufite ubuzima bwiza witaweho naba muganga neza.

Umugabo urimo arakora siporo zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo abungabunge ubuzima bwiza kuko bavuga ngo: "Kwirinda biruta kwivuza," akaba arimo aragorora ingingo mu rwego rwo kugira ngo imitsi irambuke, amaraso abashe gutembera neza ndetse na we yumve aruhutse mu bwonko.

Umugabo urimo arakora siporo agorora ingingo z'umubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza yirinde indwara zigiye zitandukanye, haba impyiko, ingingo, kuba nta ndwara zapfa kuza gutyo zisange umubiri ufite ubudahangarwa buhagije.

Umuganga uri kugorora umurwayi we urugingo , ashobora kuba yavunitse akaba ari kumufasha uburyo yakiramo ndetse akaguru kagakora neza kugira ngo abashe kugenda neza.

Umuganga ari kumwe n'umurwaza we, ari kuba koresha siporo muvuzi bujyanye no kubagorora ingingo mu buryo bugiye butandukanye, hagamijwe kugira ubuzima bwiza ku murwayi.

Umudamu uri ahantu hakorerwa siporo, ubona ko ari kugenda asunika ibyuma biremereye, kandi ubona ko bimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo uri kunywa amazi meza mu kugira ngo agire ubuzima bwiza. Amazi akaba afasha umubiri ibintu bigiye bitandukanye harimo gukomera kw'amagufa ndetse no kuba umubiri waba ufite uruhu rwiza rutoshye.

Umugore cyangwa umudamu ubona ko ari ku mazi ariko akaba ari kugorora ingingo z'umubiri ze zigiye zitandukanye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza ndetse no kuba umubiri wahumeka ukabasha gusohora imyanda wifitemo ubwawo.

Umudamu cyangwa umugore uri muri siporo ubona ko ari kugenda agorora ingingo mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziva mu kuba umuntu atagorora ingingo, akaba imitsi yasinzira cyangwa akaba yagira ikindi kibazo kigendanye no kuba atagabanya ibinure by'umubiri bitewe n'ibyo arya cyangwa afata.

Imbago cyangwa inkoni igikoresho gikoreshwa nko kwa muganga gihabwa abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye no kugenda, iyo nkoni ikaba bimufasha mu kugenda nk'iyo umuntu yavunitse cyangwa adafite imbaraga zo gukoresha amaguru akaba ariyo ahabwa mu rwego rwo kumufasha mu kuba yabasha kugenda.

Umudamu ubona ko yavunitse akaboko, akaba ari kwivura cyangwa kwikandisha amazi akonje, mu rwego rwo kugira ngo imvune ye yorohe cyangwa uburibwe bugabanyuke.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu kubaga no kuvura abantu, n'amamashini agiye atandukanye afasha abaganga mu kuba havurwa umuntu neza.

Icyuma kabuhariwe cy'ikoranabuhanga, cyagenewe abarwayi cyangwa mu gukoresha kwa muganga mu kuvura indwara zijyanye n'umubiri mu rwego rwo kwirinda indwara ndetse no kuba bakumira indwara zitaragira ingaruka mbi ku murwayi. Kikaba gikoreshwa muri siporo.

Umuntu ubona ko ari kwivura igikomere cyangwa ukuvunika k'urugingo rw'umubiri, ubona ko ari kwivura akoresheje ubukonje cyangwa parafu mu rwego rwo kugabanya uburiribwe.

Umugore cyangwa umutegarugori uri muri siporo, kandi akaba ari kunywa amazi mu rwego rwo kugira ngo umubiri we ubashe guhumeka kandi umere neza, kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza ndetse no kuba yagorora imitsi bigendanye na siporo arimo.

Agakapu karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura umuntu ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo agezwe kwa muganga atarangirika cyangwa atarahura n'izindi ngaruka zishobora gutuma uburwayi bwe bukomera.

Agasanduku karimo imiti igiye itandukanye ifasha mu kubavura abantu hakoreshejwe ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu agize impanuka bitunguranye akaba yahabwa ubufasha bw'ibanze mu gihe ataragezwa kwa muganga ngo bamwiteho.

Agakapu cyangwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura umuntu ugize ibyago cyangwa impanuka ku buryo butunguranye, akaba yifashishwa mu kumuvura mbere yuko agezwa kwa muganga ku buryo agerayo atabasha kugira ingaruka mbi cyane.

Ikirangantego cy'umuryango wa Croix Rouge ukorera mu Rwanda ndetse no ku isi hose, aho ukaba ufasha imbabare mu gihe cy'intambara cyangwa igihe cy'amakuba, akaba ari umuryango ukorera impande z'isi hose.

Umudamu uri kunywa amazi ubona ko avuye muri siporo, ukaba ari uywa amazi kugira ngo amazi umubiri wari watakaje uyisubize. Kuko iyo umubiri utakaje amazi uba ugomba gukenera andi mazi kuko amazi ari ingenzi mu buzima, afasha ubuzima kugira ngo bugumye bumere neza.

Umutegarugori uri gufata amazi kugira ngo umubiri we ugumye umerewe neza kandi avuye muri siporo ifasha ubugororangingo bw'umubiri ndetse no kwirinda ndetse no kongera abasirikare b'umubiri ku muntu.

Umugabo ubona ko ari kumwe n'inzobere, ubona ko ari gukora siporo zigiye zitandukanye, mu rwego rwo gukomeza umubiri w'iwe ndetse no kwivura indwara zigiye zitandukanye, agamije mu kubaka umubiri we, kugira ngo abasirikare b'umubiri biyongere.

Ni umutegarugori uri mu gikorwa cya siporo cyangwa kumedita yicaye hamwe atuje ndetse akaba afite n'amazi amufasha kuba yakora igikorwa kiwe neza akaba yaruhuka anywa amazi meza.

Umuganga uri kwita ku murwayi ubona ko ari ku mugorora ingingo zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo yirinde ingaruka ziva mu kuba nta siporo abantu bakora kugira ngo amaraso abashe gutembera mu mubiri wabo neza cyangwa mu mitsi neza.

Umuntu uri kwikanda akoresheje umuti cyangwa amazi akonjesheje ku kuguru, akaba afite ikibazo runaka mu buryo bwo gukemura uburibwe cyangwa ububabare, akaba akoresha amazi akonje.

Agati k'ikimera ubona ko ari agati kavura cyangwa gafasha mu kurinda indwara zigiye zitandukanye, kifashishwa mu buryo bugiye bunyuranye mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi bihinzwe ku buryo bwa kijyambere, ukabona ko ari ibyatsi by'imiti gakondo, bishobora gukoreshwa mu kuvura, ndetse no kurinda indwara z'ibyuririzi ku bantu, kandi bikaba byatera ubuzima bwiza ku bantu, kuko bitaba byanyuze mu nganda.

Amavuta ubona ko akozwe mu buryo bw'umwimerere akaba ari amavuta y'igikarubamba akaba afasha mu kurinda imiti no kuba yavura indwara zitandukanye zigendanye no ku muntu.

Ibimera bigiye bitandukanye bikoreshwa mu kuvura indwara, cyane cyane hakurikijwe uburyo gakondo bwo kwirinda indwara, kandi hatabanje kwitabazwa imiti ikorwa cyangwa iva kwa muganga yanyuze mu nganda.

Umuti w'amenyo wahariwe koza amenyo ndetse no kurinda indwara z'amenyo, ukaba ari umuti ukoze mu buryo bw'umwimerere cyangwa uburyo bwa gakondo, ukaba ugamije kurinda indwara zigiye zitandukanye zituruka mu kanwa.

Icyatsi cyangwa ikimera ubonako gitewe mu ndobo, ubona ko gishobora kuba ari umuti uvura indwara zigiye zinyuranye, mu rwego rwo gukoresha uburyo bw'umwimerere hakoreshejwe imiti gakondo.

Ibyatsi cyangwa imiti y'ibimera ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hakoreshejwe uburyo gakondo cyangwa uburyo bw'umwimerere butavangiye cyangwa imiti yaturutse mu nganda.

Umuti gakondo ukozwe mu biva ku buki werekana ibyo ukozwemo icyo uvura n'uko ungana n'uburyo ukoreshwamo.

Ibyatsi bigiye bitandukanye bifite amabara atandukanye, akaba ari imiti gakondo cyangwa imiti y'umwimerere itavangiye ubona ko itaratunganywa kandi ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi cy'ubururu gitewe mu murima cyangwa mu busitani, kikaba gikoreshwa mu buvuzi gakondo mu bintu bigiye binyuranye, haba mu kuvura cyangwa mu kurinda byihuse.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, ikaba igenda ifasha mu kubaka cyangwa mu kurinda umubiri indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane ikaba ikunda gukoreshwa ku bantu bafite utubazo tugiye dutandukanye tugendanye no ku mubiri.

Imiti igiye inyuranye harimo ibyayi, inanasi ndetse n'amahugurwa mu makawa. Aho bikoreshwa mu kurya, ndetse no kunywa mu buzima bwa buri munsi bw'abantu hagamijwe kuba hari icyo bushobora gufasha umubiri kugubwa neza.

Ibiti cyangwa ibyatsi bigiye bitandukanye bivura hakoreshejwe uburyo bwa gakondo cyangwa uburyo bw'umwimerere bitavangiye ndetse bitabanje no kunyura mu nganda ngo bitunganwe.

Imiti gakondo igiye inyuranye igaragaza imbonerahamwe uburyo ivura ndetse n'uburyo ikoramo, mu gihe umurwayi cyangwa umuntu yaba ayifashishije yivura mu buryo bugiye butandukanye.

Umutobe uvuye mu macunga ubona ko hari umutobe usa neza kandi ukaba ufasha abantu mu kuba bakirinda indwara zigiye zitandukanye, kuko ufitemo vitamine zigiye zitandukanye zifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye afite amabara atandukanye agaragaza umuti n'indwara uvura.

Imiti y'ibyatsi y'itunganywa igakora mu bimera, akaba ari imiti y'umwimerere itavangiye ikozwe mu bimera, kandi ikaba ifasha umuntu cyangwa abantu mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti mu icupa cyangwa amavuta akoreshwa mu kuba abantu bakisiga, cyane cyane mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mubiri w'umuntu.

Isabune ya avoka ubona ko ari isabune ifasha umuntu ku ruhu rw'iwe mu kugira kwirinda ibi ibiheri, ndetse akaba ari isabune ifasha n'umubiri wose kuba waba umubiri umeze neza, kubera ko avoka igira vitamine zigiye zitandukanye zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Icyatsi bita umwenya ndetse na tangawizi, aho bari gukora icyo bita icyayi cy'umwimerere gishobora gufasha umuntu, kuba amaraso yiwe yatembera neza kandi akaba yamurinda icyo bita siteresi.

Igiti cyangwa ibiti byinshi biri hamwe, aho ibi biti bivamo imiti igiye itandukanye ishobora kuvura abantu kandi ikaba yabakiza indwara kandi ikaba ari uburyo bw'umwimerere kamere kandi bikaba bivura neza.

Igihingwa cyitwa tungurusumu kikaba gikoreshwa mu guteka ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye nko kuvura indwara, kikaba gifasha amaraso kuba yatembera neza mu mubiri nta kibazo kandi akaba agenda neza nta kibazo.

Icupa cyangwa icyapa kiriho uburyo ubuki bukozwemo kandi bukaba bukoreshwa mu kuba abantu babukoresha mu buzima bwa buri munsi cyane cyane nko kurya kandi bukaba bu ushobora kurinda n'indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo iva mu bimera ubona ko igiye itandukanye, ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye, kandi nabwo hakoreshejwe uburyo bw'umwimerere, butavangiye cyangwa bitagiye mu nganda ngo bikorwe mu bintu bigiye bitandukanye by'amamashini.

umuti uri mu ishashi bigaragara ko ari umuti ukozwe mu buryo bw'umwimerere bwa gakondo kandi ukaba utaranyuze ngo mu ruganda habashe kuba wanyura mu bigiye bitandukanye cyangwa kuba hakoreshwa indi ruvange'imitikaba umuti w'umwimerere

Ibiti, ibyatsi ndetse n'udukoresho tugiye dutandukanye tw'imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura abantu buri munsi, bigendanye n'indwara barwaye ikoreshejwe mu imiti y'imyimerere.

Amavuta cyangwa imiti avura abantu mu buryo butabongamije kuba birinda indwara cyangwa ukaba wakivura indwara hakoreshejwe amavuta y'umubiri ku bantu.

Imiti ndetse n'amavuta hamwe n'amata agiye atandukanye, afasha abantu kwivura indwara zigiye zitandukanye, kandi akoze ku buryo bw'umwimerere nta kindi kintu kivangiyemo.

Utwatsi ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye ziri mu dukombe, ubona ko ari imiti gakondo cyangwa imiti y'umwimerere itaratunganywa kandi ikaba igenda ivura indwara zigiye zitandukanye, ibigendanye n'ubuzima.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa cyangwa iva mu bimera ubona ko ikoreshwa ku buryo bw'umwimerere, kandi ikaba ari imiti ifasha kuvura ndetse no kurinda indwara zigiye zitandukanye.

Pipiniere irimo ibiti bigiye bitandukanye hakoreshejwe uburyo gakondo cyane cyane harimo imiti ivura uburyo bw'ako kanya itabanje kugenda ngo inyure mu nganda itunganywa kandi ikaba ishobora kuvura ku buryo bwizewe ijana ku ijana.

Imiti igiye itandukanye ikorerwa mu buryo butandukanye ariko ikaba ari ifasha cyangwa ikaba ikozwe mu buryo bw'umwimerere bitabaye ...

Imiti igiye itandukanye ikorwa cyangwa iva mu bimera ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse no kwirinda indwara ziri zitandukanye, hakoresheje ibimera by'umwimerere.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye ubona ko bikorwamo imiti igiye itandukanye, akaba aribyo byiza byafasha umubiri mu kugira cyangwa kuvurwa neza, hakoreshejwe uburyo bw'umwimerere.

Imiti y'ibinini ndetse n'uducupa turimo imiti ikozwe mu mazi ikorwa mu bimera by'umwimerere, ikaba nta kindi kintu kiba kivangiyemo ari umuti w'umwimerere ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa ndetse n'utubido turimo umuti cyangwa amavuta akoreshejwe mu buryo bwa gikarubamba akaba ari umwimerere mu buryo bw'ibimera nta kindi kintu avangiye mu buryo bwemewe.

Icupa ririmo amavuta ajyanye n'amavuta y'uruhu agamije kurinda uruhu indwara cyangwa gukumira indwara zakinjirira ku ruhu ndetse no kurinda uruhu rwawe kugira ngo rutangirika bitewe naho uri ahari ho hose.

Icupa ririmo ibyatsi ndetse n'ibindi bikoresho birimo amacupa n'amasahani, aho hari gutunganywa umuti w'ibyatsi kamere, utabanje kunyura mu nganda cyangwa ngo ukoreshwe ibindi bintu, wagiye unyura mu buryo butandukanye.

Imiti gakondo ikoreshejwe mu buryo bw'umwimerere bw'ibimera, hatabanje gukoreshwa kunyura mu nganda, cyangwa ngo hongerwemo ibindi bintu bigiye bitandukanye byavumbuwe bikoreshejwe n'ikoranabuhanga, ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera cyangwa icyatsi gakondo kivu kivura indwara zigiye zitandukanye kikaba gikoreshwa mu buryo bw'umwimerere itabanje gutunganywaho kinyure mu ruganda habone kuvamo imiti ituma gikoreshwa ku buryo bw'ako kanya kandi ikaba nta ngaruka cyagira ku muntu.